Umurima w'ibigori bigaragara ko byumye. Ikigori kikaba ari igihingwa gikundwa guhingwa mu Majyaruguru, kigatanga umusaruro utubutse.

Isake ubworozi bw'amatungo magufi abaturage bakunda korora bikabaha amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi, abakunda korora cyane cyane mu majyaruguru.